Hano ndi kubona abantu bari kubyina indirimbo gakondo z'i Kinyarwanda bakenyeye, aba mama basa nkaho bateze n'urugori cyangwa se abakobwa.

hano ndi kubona abantu, basa nk'aho bari mu muganda, hakaba harimo n'abari mu nzego z'umutekano nk'abasirikare, hakabamo n'abasivile bari gukora umuganda.

Ubu ndi kubona abakinnyi basa nkaho bari gukina football. Bari mu kibuga ariko ikibuga kitari cya football nk'ahantu ku mbuga bakunda gukinira bisanzwe.